Abantu bicaye mu cyumba k'inama hari umubyeyi w'umumama ufite indangururamajwi mu ntoki ze bisa n'aho arimo gutanga igitekerezo ke ku nsanganyamatsiko cyangwa se ingingo imaze kuvugwa, yambaye agashati k'umukara kabonerana n'ikanzu y'umuhondo.

Abantu benshi batandukanye, bateraniye ahantu mu nyubako, bakaba bicaye iruhande rwa buri muntu hateretse uducupa tw'amazi ndetse na ji, buri wese ahantu yicaye, bicaye mu ntebe yegamirwa, bikaba bigaragara ko ari abantu bakomeye bitabiriye inama runaka.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki y'umukara arimo gutanga igitekerezo ku ngingo yateganijwe.

Abantu bicaye mu ntebe z'imituku bakaba bari mu cyumba mberabyombi, bakaba bambaye imyenda myiza, imbere hagiye hari amacupa y'amazi, icyumba barimo gifite amarido.

Abantu batatu bicaye ku meza, umwe akaba ari umusirikare undi ari umupolisi, hagati yabo hakaba hicaye umugabo bisa nkaho ari umuyobozi mukuru, bakaba barimo kugirana ikiganiro. Imbere yabo buri wese hagiye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu babiri umwe akaba ari umusaza undi akiri umusore bafite imyirongi mu ntoki zabo bakaba barimo kuyivuza mu rwego rwo kugira ngo bidagadure cyangwa se bishimishe, imyirongi ni ibikoresho gakondo byifashishwaga kera mu Rwanda rwo hambere mu gihe babaga barimo gucuranga kuko hatari hakaje ibi bikoresho bya kizungu abantu bacuranga nka gitari ndetse na piyano.

Ababyinnyi bari mu gisharaga bakaba barimo kubyina mu rwego rwo kugira ngo basusurutse abitabiriye igikorwa nyamukuru cyabateranyirije aha hantu, aho bari kubyinira hashajemo itapi nziza z'icyatsi mu rwego rwo kugira ngo hase neza.

Umugabo uhagaze imbere y'ipoto ry'amashanyarazi, bisa naho hari ikibazo cyabaye ku mashanyarazi hanyuma akaba aje, gusana ibyangiritse. Amashanyarazi ni ingenzi cyane mubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, kuko tuyakoresha ducana, dukora n'ibintu byinshi bitandukanye.

Abagabo batatu barimo kubaka ipoto ry'amashanyarazi ibi bikaba birimo gukorwa mu rwego kugira ngo bageze amashanyarazi ahantu hatandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babahe amashanyarazi.

Abantu barimo kubaka ibikoresho by'amashanyarazi, amashanyarazi akaba ari ibikoresho byifashishwa mu gushyira abantu umuriro w'amashanyarazi mu gihe cyo kugira ngo abantu bage babone uko bacana mu buryo bworoshye, ni insinga nyinshi zitandukanye n'ibikoresho byinshi bitandukanye.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ingufu z'amashanyarazi kikaba kiranga ishami ryacyo riherereye mu Karere ka Nyagatare, ni icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Abantu barimo kubaka amapoto y'amashanyarazi mu rwego rwo kugira ngo batange amashanyarazi ku baturage ubundi bajye babona uko bacana ndetse n'uko bakora ibikorwa byabo haba ku manywa ndetse na nijoro.

Amapoto y'amashanyarazi akaba ari amapoto ane yubatse ku buryo aringaniye, bakaba barayubatse gutya kugira ngo byibura akomere kandi agire imbaraga. Yubatse ahantu hasije neza mu rwego rwo kugira ngo akomere kandi azarame.

Urugomero rw'amashanyarazi hakaba hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gutunganya ingufu z'amashanyarazi, ni ngombwa ko buri muturage abona amashanyarazi kubera yuko bimufasha gucana mu buryo bworoshye ndetse no kuba yakora ibikorwa bimwe na bimwe bisaba ingufu z'amashanyarazi.

Abantu barimo kubaka ibyuma akaba ari ibyuma byifashishwa mu gihe barimo kubaka inzu z'amagorofa, bose bambaye ibisarubeti ndetse n'ingofero zambarwa n'abafundi mu gihe barimo kwirinda kuba bagira impanuka hanyuma bakangirika umutwe.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe barimo gukora ibikorwa bijyanye n'ubwubatsi, hakaba hari n'imashini zifashishwa mu kubaka. hari imicanga isutse hasi, bisa naho aho ariho hantu bari buze gushyira umusingi w'inzu.

Icyapa gishushanyijeho ikirangantego cy'u rwanda ndetse n'idarapo ry'u rwanda, hakaba handitseho amagambo agaragaza indangagaciro z'isibo cyangwa se umudugudu, zikaba zanditse mu mabara y'icyatsi, hari n'ibyanditse mu mabara y'ubururu.

Abantu barimo gutambuka ku kiraro cyo mu kirere, abenshi bita ikiraro k'indege. Ikiraro cyo mu kirere ni ingenzi cyane kuko hari ahantu uba usanga hakunda kuba umwuzure, bityo abantu bakajya babura uko bambuka, ariko iyo hashyizwe ikiraro cyo mu kirere, ntabwo hongera kubaho inzitizi z'uko abantu babura uko bambuka igihe imvura yaguye.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, bita agacurama. Yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati ya kizungu. Ikaba ifite inkingi nyinshi cyane. Imbere yayo haparitse imodoka.

Intebe nyinshi ziri muri sitade y'ikibuga cy'umupira w'amaguru, zikaba ziri mu mabara agaragaza Igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bahagaze ku iteme, bisa naho bamaze kuhakora igikorwa kijyanye n'ubwubatsi. Iruhande rw'iteme hakaba hari ibyuma bihashinze bituma nta kinyabiziga gishobora kuza ngo kigwe mu mugezi.

Icyapa kiranga umudugudu akaba ari icyapa gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'idarapo ry'u Rwanda, byose bikaba bishushanyije mu mabara aranga igihugu cy'u Rwanda, hasi handitse indangagaciro z'umudugudu ndetse na kirazira.

Abantu batandukanye bari guturuka, ku nyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye. Ikaba isakaje amabati y'ubururu yubatse mu buryo bwa maparamane. Iruhande rwayo hari ikigega, cy'umukara, cyifashishwa, mu gufata amazi.

Inyubako isize amarangi y'ubururu, ikaba ifite urubaraza imbere abantu bicaraho, hari umuntu urihaza bisa n'aho aje kuhasabira serivisi zitandukanye, hino hari intebe abantu bicaraho, ukomeje imbere nanone hari kandagira ukarabe abantu bakarabiraho intoki.

Inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa akaba ari inyubako isize amarange y'umuhondo ndetse n'irindi range rijya gusa n'ivu. Ni inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi akaba ari ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyagatare. Imbere y'iyi nyubako haparitse imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abantu bahuye n'ibibazo mu buryo bwihutirwa.

Umubyeyi wumumama wicaye mu ntebe yumukara, akaba yambaye amataratara, yambaye ni'isaha ku kuboko hamwe nimpeta. imbere ye kumeza hateretse agacupa k'amazi yo kunywa, hakuno y'ameza hicaye umugabo wambaye ingofero yi'icyatsi bisa naho ari umudaso.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bisa naho baje mu kiganiro gihuza abayobozi ndetse n'abaturage, hirya hakaba hari igisharaga gitatseho amabara agize idaraporo ry'Igihugu cy'u Rwanda, imbere iruhande rw'igiti hari umugabo wambaye ishati y'amove n'ipantaro ya kake, ufite indangururamajwi akaba arimo kubabwira amakuru agezweho.

Abantu benshi bateraniye hamwe ubona ko bafite igikorwa runaka bavuye gukora cyane cyane umuganda, hakaba hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'icyatsi w'amaboko magufi ufite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari we muyobozi mukuru, hakurya hari insina nyinshi.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe bisa naho bavuye mu gikorwa cy'umuganda bakaba baje kumva icyo umuyobozi mukuru ashaka kubabwira, inyuma yabo hari umudaso wambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero bisa naho yaje gucunga umutekano.

Abantu bahagaze mu nyubako bigaragara ko hari igikorwa nyamukuru bitabiriye, bakaba bahagaze bisa n'aho barimo kwiyereka abantu bitabiriye inama, imbere hateretse ameza y'ibirahure, abayobozi bari buze gutekaho ibikoresho byabo.

Abantu bane bicaye mu ntebe z'imikara bakaba bicaye imbere yabo hateretse ameza, ku meza hateretseho agacupa k'amazi imbere ya buri muntu buri wese akaba afite ahantu arimo kwandika, ni abagabo batatu ndetse n'umugore umwe.

Abantu batandukanye bicaye mu nyubako, akaba ar'inzu mberabyombi, harimo abapolisi, abantu bambaye imyenda isanzwe ,ndetse n'abasirikare, bigaragara ko bashobora kuba baje mu mahugurwa ,inyubako bicayemo ni inyubako isize amarangi y'umuhondo.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu hamwe, imbere hakaba hari umusaza, wambaye ishati y'umweru, ufite imvi mu bwanwa, watangiye kuzana n'uruhara, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, bisa naho arimo gutanga igitekerezo cye.

Icyapa giteye iruhande rw'umuhanda, akaba ari icyapa kiyobora abantu bafite ibinyabiziga kibereka ko imbere hari ikorosi. Ni icyapa gishushanyije mu mabara y'umutuku imbere harimo akantu k'umukara k'agafureshi kagaragaza ko imbere hari ahantu hari ikoni.

Umugabo uri kuri moto akaba yambaye ingofero y'ubwirinzi, arimo gutambuka mu muhanda ushashemo amabuye, iruhande hari inyubako z'ubucuruzi zitangirwamo serivisi.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda, akaba ari icyapa kiriho umuzenguruko w'amabara y'umutuku, hagati harimo agashushanyo kagaragaza umuntu urimo kwambuka, bigaragaza ko kiri iruhande rw'ahantu abanyamaguru bambukira, hirya yaho hari ishyamba ririmo ibiti birebire cyane.

Icyapa kiranga ibyerekezo by'ahantu imihanda yerekeza. Iruhande rwacyo hari ibiti byinshi bisa naho ari mu ishyamba, hirya yaho hari akandi kapa kagaragaza uko imihanda ishyamikiranye.

Abantu benshi bafite amasuka barimo guhinga, bisa n'aho barimo gukora igikorwa cy'umuganda, hanyuma bakaba barimo gusiza umuhanda, kugirango ngo bajye babona aho banyura. Umuganda ni igikorwa cyiza cyane, kubera yuko gihuriza abantu hamwe bakaganira, ndetse bakubaka igihugu.

Abantu benshi bateraniye hamwe akaba ari abagore ndetse n'abagabo bahagaze mu kayira gatambuka ahantu hari ibiti byinshi bisa naho barimo gukora igikorwa cy'umuganda, hakurya yaho hari imisozi bigaragara ko ari imiturire y'abantu.

Abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu hamwe biganjemo igitsina gore. Imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare, afite indangururamajwi mu ntoki, bisa n'aho hari ikiganiro arimo kubagezaho mu rwego rwo gukora ubukangurambaga.

Umuntu uri mu kibuga cy'umupira akaba yambaye imyenda ya siporo amasogisi ndetse n'inkweto bakinana umupira w'amaguru, imbere ye hakaba hari izamu harimo n'umuzamu wambaye imyenda y'icyatsi bisa n'aho aje gutsinda igitego, bakaba bari gukinira mu kibuga cya tapi y'ubwatsi.

Abantu barimo gukina umupira, hakaba hari umusore umwe uhiritse undi bityo akaba yamanitse amaboko mu rwego kugira ngo agaragaze ko adakoze iryo kosa ku bushake ahubwo bimugwiririye.

Umusore wambaye ikabutura n'umupira urimo amabara atandukanye yiganjemo umweru, yicaye ku ntebe y'ubururu, bisa naho ari muri sitade y'ikibuga cy'umupira w'amaguru, iruhande rwe hari ibikapu bihateretse, bigaragara ko ashobora kuba ari umukinnyi.

Umuhanda wa kaburimbo akaba ari umuhanda urambuye cyane, bigaragara ko uri ahantu hatari imisozi. Hirya hakaba hari abantu bari ku ruhande, bisa naho barimo gutambuka.

Akayira k'igitaka hakaba harimo umugabo wicaye kuri moto ya bogiseri. Umugabo akaba yambaye ikote ry'umukara n'ikositimu, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara ziterwa siraje. Yambaye kandi ingofero y'ubururu imurinda kuba yagira ikibazo ku mutwe mu gihe yaba akoze impanuka.